Ifoto iri kugaragaza ahantu kwa muganga, hari ababyeyi bagiye batandukanye abateruye abana babo, ubona ko ari umugabo uri hagati yabo wambaye itaburiya y'umweru uri kubahugura uburyo ki bajya bitwaramo,...

Inyubako nziza isa neza, isize amarangi y'umweru, yubakishije inzu ya shokora, ibiti by'icyatsi, umwana wambaye agapira k'ubururu, irimo rutegarugori gusa, ameza y'imbaho.

Ifoto igaragaza abana bari ahantu ku ivomero batatu muri bo bambaye imyenda y'icyatsi. Umwe yambaye ishati y'umweru arikunywa amazi. Abandi na bo bari iruhande rwe urabona ko bashaka kunywa amazi barikureba muri kamera bariguseka.

Inama yateraniyemo abantu b'ingeri zose abakobwa, abahungu, abamama n'abapapa, urabona ko ari inama Mpuzamahanga yitabiriwemo n'abazungu, abasaza, abakecuru,...

Ahantu heza cyane, hasa neza hari ibiti intebe z'imbaho, umuganga uri kugira inama umu mama uko yakwitwara atwite, yambaye ishati y'umweru umugabo ni ubururu.

Ahantu hameze neza cyane ikirere, ibyatsi, ibiti, ku ivomero, indobo z'umuhondo, imifuniko y'iroze, imifuniko y'ubururu, indobo y'umutuku, umumama uhetse umwana.

Ahantu mu cyaro ku ivomera hari umwana wo gukaraba intoki, yambaye imyenda y'ishuri, ijipo y'ubururu, ishati y'umweru n'umupira w'ubururu, ari guseka,..

Ahantu hagiye hatandukanye hahuriye abantu benshi hasa neza; ari ingagi inyuma yabo, umugabo uri guseka wambaye neza, abantu bagiye batandukanye; abahungu, abakobwa, abamama, aba papa.

Inyubako nziza cyane ahantu hasa neza hanze, amapave asa neza, ibiti bisa neza, abantu bagiye batandukanye, abakobwa, abahungu, abamama, abapapa.

Umumama uteze igitambaro cya oranje, wambaye ishati ya shokora, uteruye umwana wambaye agapira k'icyatsi, utamiye intoki, urabona ko imbere ye hari inkoko bari bari gutora umuceri, umwana uri inyuma y'umugore ari kurira,...

Inyubako nziza abanyeshuri bigiramo, irimo ameza y'imbaho, intebe z'imbaho, umunyeshuri yambaye ishati y'umweru, ijipo y'ubururu...

Ishusho nziza igaragaza ikirere gisa neza, ibiti bigiye bitandukanye bisa neza, shitingi bamanitse ahantu isa neza, urabona ko ari ku kigo nderabuzima hari abantu bajya batandukanye abagabo, abakobwa, abahungu, abagore,..

Inyubako nziza isize amarangi y'umweru, irimo ibikoresho bijye bitandukanye byagufasha mu kuvura intebe zabugenewe, utubati, mudasobwa wakoresha ureba imiti.

Ishusho iri kutwereka umugabo uri guseka wambaye umupira w'umweru, ufite urudodo, ugiye kurushyira mu menyo, atwereka ko urudodo rushobora kudufasha mu gukura amenyo.

Inyubako nziza isa neza cyane isize amarangi y'umweru, utubati twiza tw'icyatsi n'umweru, ameza y'imbaho asize amarangi y'umweru, ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga.

Inyubako nziza ifite intebe z'umukara, isize amarangi y'umweru, akabati k'umweru, umuhungu wambaye umupira w'umukara, uriho akantu k'ubururu, uturongo tw'umweru, umudogiteri wambaye ga zabugenewe z'ubururu.

Ishusho nziza y'umugabo uri kutwereka ko urudodo rwagufasha mu gukura amenyo, yarushyize hagati y'amenyo, ari kugenda atwereka uburyo ki wabigenzamo kugira ngo wikure iryinyo nko mu buryo bwa kera.

Ahantu heza cyane hari ibiti ubona ko abamama bishimiye, bari kwifotoza, uwambaye agapira k'umuhondo afite terefone y'umukara.

Inyubako nziza isize amarangi y'umweru na shokora, urabona ko ni umupapa n'umumama bishimye, bari kurya bari guseka, umumama afite ifurusheti, bari guseka.

Inyubako nziza isize amarangige y'umweru, utubati twiza, ameza y'ikirahure, umumama wambaye rinete, ishati y'umuhondo, urabona ko ari kunywa ibinini, agacupa gateretse uruhande rwe, umufuniko wicya....

Icyaro, mu muhanda harimo abantu bagiye batandukanye, abakecuru, abamama, abahungu. Bambaye imyenda igiye itandukanye, iy'umweru, umutuku, umukara.

Ifoto iri kugaragaza inyubako nziza irimo ibikoresho byose bisa neza, aho umusaza afite terefone ubona ko ari kwereka umumama wicaye iruhande rwe ibiri muri terefone.

Inyubako nziza isigishije amarangi y'umweru, intebe z'umweru, imisego y'umweru, indabyo z'icyatsi, umumama wishimye, wambaye impeta, uri guseka, wambaye amaherena, umudogiteri.

Ifoto iri kugaragaza umu docteri wambaye imyenda myiza yabugenewe isa umutuku werurutse, agapfukamunwa, amarineti, yambaye isaha na ga, arimo arafasha umu mama.

Igishushanyo mbonera cyiza kirimo aba Doctor beza, umuyisilamu witandiye, uwambaye imyenda yabugenewe, wambaye itise n'ishati na karuvate, uwambaye ishati, uwambaye umupira gusa.

Ishusho nziza itwereka ikirangantego cy'ivuriro runaka, amagambo yaho aza asa umweru ibiganza bibiri bifatanye ubururu.

Inyubako nziza yometseho ibipapuro byanditseho amagambo agiye atandukanye. Abadogiteri bambaye udupfukamunwa, amajire y'umukara, amarinete, umupira w'icyatsi.

Inyubako nziza cyane isa neza, isize amarangi y'umweru, urabona ko ni abantu bagiye muri poroje ikiganiro runaka, intebe zaho zirasa umukara, umugabo yambaye ishati y'umutuku, karuvati iri.

Inyubako nziza ikorerwamo imiti igiye itandukanye abarwayi bakenera, abavuzi bakenera, urabona ko ari inyubako irimo ibikoresho byose byakora iyo miti abavuzi.

Inyubako nziza isize amarangi y'umweru, utubati tw'umweru, ibikoresho bigiye bitandukanye by'umweru byagufasha mu buvuzi butandukanye. indobo y'umuhondo.

Inyubako nziza isa neza, y'amatafari ahiye, amadirishya y'umweru, ifite indabyo nziza z'icyatsi, ubusitani, amarange y'umweru irasa neza.

Inyubako nziza, isize amarange y'umweru, igiye iriho inkingi eshatu, imiryango igiye itandukanye y'umukara n'amadirishya, hagiye harihoho amashami y'ibintu bigiye bitandukanye, amabati y'amategura.

Inyubako nziza igiye itandukanye, isize amarangi y'umweru, oranje, amadirishya asa ubururu, intebe z'icyatsi, ameza ya oranje, akabati k'icyatsi n'ubururu, hagiye harimo amabara.

Inyubako nziza isize amarangi meza irimo ibikoresho byose byabugenewe ikorerwamo ubuvuzi butandukanye. Igitanda cy'umweru, umusego w'umweru, umugabo uryamye. Umudogiteri wambaye imyenda yabugenewe y'ubururu.

Inyubako nziza ikorerwamo ubuvuzi bacuruza imiti igiye itandukanye. Inyubako nziza isize amarangi y'umweru. Haparitse imodoka, ibiti byiza.

Inyubako nziza cyane y'amatafari ahiye, inzugi nziza z'umweru, ibirahure, igikuta, amagambo yandikishije umukara hararasa neza cyane, hari ibiti byiza, ibintu bisa neza.

Agace umuvuzi yasuye abaturage, ari kubasekera, ari kubabwira ibintu bigiye bitandukanye, yambaye itaburiya yabugenewe y'umweru, amarinete, ari guseka.

Inyubako nziza ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, intebe nziza zabugenewe, abarwayi bicaraho, ku gikuta hashushanyijeho ijisho, hariho ibiganza byambaye ga zabugenewe ibipirizo by'umweru n'ubururu,

Inyubako nziza igaragara ko ikorerwamo ibintu bijyanye n'ingororamubiri, kugorora umubiri, imyitozo itandukanye, imashini z'umukara.

Ivuriro ryiza ubona ko risa neza ryubatse neza risize amarange atandukanye, inzu ifite amabati y'icyatsi, irange ry'umuhondo, izina rigaragaza uko ivuriro ryitwa hasa umutuku umugore uhagaze.

Ishusho igaragaza inyubako nziza zigiye zitandukanye zisize amarangi meza, amabati meza ziri ku muhanda mwiza, umuharuro wawo urasa neza.

Inyubako nziza isize amarangi meza, isa neza, amamodoka meza, abantu bari hanze bagiye batandukanye, abambaye ipantaro, ishati ya pinki, imipira ya orange, barasa neza.

Imiti igiye itandukanye yagufasha muri siporo igihe ufite uburwayi butandukanye iy'umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu, umukara. Igihe ije mu karito bigiye bitandukanye yagufasha.

Ibikoresho bigiye bitandukanya umuganga akenera harimo ibipfuko, ibinini, ibikwasi, umukasi.

Ifoto iri kugaragaza inkweto nziza cyane z'umukara zikomeye umupolisi yakambara cyangwa umusirikare, cyangwa se iziri hasi yazo umu injeniyeri yakambara,

Imiti igaragaza ko yafasha umuntu wese ukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, ibinini bisa umweru, ikaramu y'umukara.

Ishusho y'umugabo uri guterura icyuma, imbere ye hari imbuto zigiye zitandukanye, amagi, ji, inanasi, amashu ibintu byinshi.

Igishushanyo cyiza kiriho abana batoya, abakobwa, abahungu, abahungu bakuru, abakobwa bakuru, ubona ko bari gukina umupira w'amaguru, umupira wa rugubi, tennis basket,...

Imiti igiye itandukanye, ibinini bigiye bitandukanye, inshinge byafasha muri siporo harimo ibini by'umuhondo n'umweru, iby'umutuku.

Inyubako nziza ikorerwamo ubuvuzi isize amarange y'umweru, ameza y'umweru y'igiti, mudasobwa y'umukara umuvuzi yambaye ga z'ubururu agapfukamunwa kabugenewe ishati...

Bande nziza, cyangwa se icyo nakwita udutambaro twiza twabugenewe, dufasha abantu muri siporo, bambara ku maboko, tugiye dutandukanye, dusa roze, umukara, ubururu, umuntu...

Ahantu ubona ko hakorerwa ubuvuzi, umugabo wagize ikibazo cy'ukuguru, ubona ko ari kugenda yikanda kugira ngo bifashe kumera neza, ari kwikandisha akantu k'ubururu, yambaye ipantaro y'ubururu.

Igishushanyo cyiza gisa neza, umuganga wambaye imyenda yabugenewe, itaburiya, ibikoresho byabugenewe bikoreshwa mu buganga, umupira mwiza w'amaboko.

Inyubako nziza isize irangi ry'umweru, umuhungu uri muri siporo ngororamubiri yambaye isengeri y'umukara, ikabutura y'umukara, agatapi kabugenewe k'umukara, ameze neza.

Imiti myiza igiye itandukanye yagufasha ugiye mu kugorora mubiri, harimo amavuta, harimo amaparufe, harimo ibyo kwisiga mu kwaha, ibintu bigiye bitandukanye byiza byagukiza.

Imiti myiza igiye itandukanye yagufasha mu burwayi, hakaba harimo iyo kwisiga mu kwaha, amavuta, isa neza yagukiza indwara zitandukanye.

Inyubako irimo imiti igiye itandukanye, abantu bakora siporo cyane bakoresha, iri mu bipapuro by'umuhondo n'umweru, iri mu bipapuro by'umweru n'ubururu.

Inyubako nziza isize amarangi agiye atandukanye meza, hasi haho h'imbaho, ibikoresho byiza bitandukanye bisa umweru, ubururu, umukara, byagufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umuti mwiza cyane wa Kinyarwanda wagukiza indwara igiye itandukanye, uza mu gicupa cy'umweru n'ubururu.

Umugabo uri gupima imiti, yambaye imyenda yabugenewe; itaburiya y'umweru, umutI umwe uri mu icupa ry'ivide, uwundi muti uri mu icupa rya purasitike. Ni imiti yagufasha.

Ibimera byiza bigiye biteye buri hamwe, birasa neza, bikuze neza, byagufasha mu burwayi bugiye butandukanye, imiti ya gakondo, imiti ya gakondo ifasha mu buryo bugiye butandukanye birasa neza.

Imiti myiza yagufasha muvuzi ubwo ari bwo bwose, gukira indwara zigiye zitandukanye, amavuta yo kwisiga, uruhu rwawe rukaba rwasa neza rugasa.

Imiti igiye itandukanye yagufasha mu burwayi bugiye butandukanye ya Kinyarwanda, iza mu bikarito, ize m'utujerekani, iza mu mashashi. Ni mwiza cyane yagufasha mu burwayi bugiye butandukanye.

Imiti myiza igiye itandukanye yagufasha mu buvuzi ya gakondo iva mu bihwagari, iy'amazi iri mu icupa, iy'ibinini iri mu ducupa dutatu yose igenda iza bitandukanye.

Ibikarito byiza bisa neza, byandikishije mu mabara meza, bigenda biza mu mabara atandukanye, by'imiti byagufasha kwivuza indwara izo ari zose zigiye zitandukanye.

Ikimera cyiza cyane gisa neza, cya kuvura indwara zigiye zitandukanye, gifite amababi meza, kimeze neza gishobora kugufasha mu burwayi bugiye butandukanye.

Umuti wa kinyarwanda ushobora kuba ukiza indwara itandukanye, uza mu kajerekani k'ubururu, umufuniko w'icyatsi, hakaba hariho amagambo ashobora kuba yagufasha k'ukoresha nimero,...

Ifoto nziza irimo kugaragaza ubusitani bwiza, bumeze neza buteyemo indabyo zigiye zitandukanye zagufasha gukora umuti wa kinyarwanda. harimo indabyo za orange, umutuku, umweru na kapusine.

Ifoto nziza iri kutwereka umurima umeze neza, ikirere gisa neza, izuba rirarenze, umurima ukaba uteyemo ibikakarubamba kandi ibikakabamba bidufasha mu burwayi bugiye butandukanye byamufasha mu kwivuza.

Imiti iri kugaragaza amababi yumye, amababi ubona ko ashobotse neza, ameze neza, ari imiti ya kinyarwanda yagufasha mu kwivuza indwara izo ari zose zigiye zitandukanye.

Imiti ya Kinyarwanda igiye itandukanye yagufasha mu burwayi butandukanye, imitobe igiye ikoze mu bimera, iza mu bipapuro by'umutuku, umweru, ubururu.

Umuti mwiza uza upfundikiye ukaza uri mu icupa ry'umweru ryandikishijeho amagambo umutuku, icyatsi agapupe k'umuhondo urasa.

Imiti myiza itandukanye ya kinyarwanda yagufasha mu buvuzi bw'aho waba uri kubabara mu mugongo, ku ijosi, urutirigongo, inkokora, ivi,...